Ndabona hari abantu bicaye bambaye imyenda y'umukara bicaye mu buryo butandukanye ntawe ureba undi nkaba mbona biteretse ibirahure imbere, nkaba mbona bicaye mu buryo butandukanye.